Umufuka w'ibiro mirongo itanu urimo ifumbire yifashishwa mu buhinzi, aho iyo fumbire ari ingirakamaro cyane kuberako bayifasha bari gutera imyaka kugira ngo izatange umusaruro.

Ifumbire ya DAP ni nziza cyane aho iba iri mu mifuka y'ibiro mirongo itanu, umuhinzi wese akaba yayifashisha agiye guhinga kugira ngo arebe ko yazabonamo umusaruro utubutse.

Ubuhinzi bwa boberi n'ubworozi bw'amabuweja bikomeje guteza imbere cyane ba nyirabyo aho hari igihe kigera bagafata iboberi bakayimena hanze maze ugasanga hajemo ifumbire.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hacururizwamo imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta, hakaba hateretsemo ameza y'umutuku, barambitseho udukarito tuba turimo imiti.

Ibasi irimo ifumbire ya ire iri mu mabara y'umweru, aho iyi fumbire ari ingirakamaro cyane kubera ko umuhinzi ayifashisha ari kuyibagaza imyaka, kugira ngo ikomeze yere cyane.

Abahinzi bagiye batandukanye, bari kugenda bapakira ifumbire mu ngorofani, maze umwe muri bo akayisunika akajya kumena iryo fumbire mu murima kugira ngo batangire ihinga rikurikiyeho.

Ni byiza cyane ko iyo umuhinzi w'ikawa ayihinze amaze kubagara, aba agomba kuyikikiza ifumbire ya ire, kugira ngo izakomeze itange umusaruro ushimishije.

Amacupa agiye atandukanye ari ahantu mukabati aho aya macupa ari ingirakamaro cyane kuko yifashishwa mukuhira imiti igiye itandukanye kubera umuti urimo imbere.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahantu bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, hakaba harimo umuntu utari kugaragara neza, ugenda yakira abaje bahagana.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho ubu ngubu abahinzi b'ibigori basigaye babitera umuti wica nkongwa kugira ngo zitazabahombya.

Umurima uhinze aho utaranozwa neza, ukaba ukirimo ibyatsi byinshi aho ukenewe kuza ugasanzwa kugira ngo nyirawo azabashe kugendana n'igihembwe cy'ihinga gitaha.

Ifumbire ya ire, ni ingenzi cyane kubera ko iyo umuntu agiye kubagara ayifashisha agenda ayisuka ku bihingwa ku ruhande kugira ngo bizere neza maze bimuhe umusaruro.

Abantu babiri b'abagabo bari kugenda bayora ifumbire barishyira ku mufuka, bakawuterurana bakajya kumena mu myubo kugira ngo babone uko batera, hirya yabo hahagaze undi uri kureba uko babikora.

Inyubako nziza cyane irimo amoko agiye atandukanye y'uducupa turimo imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, hakaba harimo kandi n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira ibi bihingwa.

Umuntu ucigatiye mu ntoki imbuto ziri mu mabara y'umweru bigaragara ko ari izo asaruye mu murima we, ku ruhande hari ishyamba ririmo ibiti birebire by'amoko menshi agiye atandukanye.

Imbuto zigiye zitandukanye zifashishwa mu buhinzi bw'ibigori, hakaba hari ifumbire ya dapu iri mu gafuka, ndetse n'agakarito karimo imbuto y'ibigori nziza y'indobanure.

Umusaruro w'ibirayi usutse hamwe ahantu mu nzu bigaragara ko nyirabyo yabisaruye maze atoranyamo ibito bizaba imbuto, abisuka mu nzu kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera azahite abitera.

Akabati karimo utubido turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi, aho hariho tumwe turimo imiti yica udukoko dukunze gufata ku bimera.

Abagore bagera muri bane bambaye ingofero z'umweru, bakaba bari kugenda mu murima wabo uhinzemo ibigori, aho bari kugenda babyuhira kugira ngo bizabahe umusaruro.

Ibase irimo ifumbire bifashisha bari kubagara ibihingwa, iba iri mu mabara y'umweru. Iyo fumbire ikaba izwi nka Ire, aho ari ingirakamaro cyane kubera ko itanga umusaruro.

Umuntu uri ahantu mu murima, akaba ari kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye byo guca imyobo, bigaragara ko uyu mwobo bari gucukura bazawunyuzamo umuyoboro w'amazi.

Ubuhinzi bw'imboga bwatejwe imbere cyane, aho ubungubu haje imashini zisigaye zuhira nta muntu uri kuzikoresha, ahubwo ziri kwikoresha ubwazo zigenda zizenguruka zikageza amazi kuri buri ruboga.

Umurima uhinzemo inyanya z'amoko menshi agiye atandukanye, aho izi nyanya zitaratukura, zikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko zitanga umusaruro uhagije ku muhinzi wazo.

Ubuhinzi bw'amashu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye bayahinga barabigize umwuga, izuba ryava bakayavomera, bakayuhira, maze bakabona umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe, umuntu wese uhinze ibirayi, bibasha kumuteza imbere cyane, maze akabona umusaruro ufatika akaba, yabigurisha akabonamo amafaranga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu, bari kumwe n'abarimu babo babereka uko babasha kwinaza imbuto za avoka zikabateza imbere.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingenzi cyane ku buryo umuhinzi wese ubashije kubihinga bigenda bimuteza imbere, kubera umusaruro uba wavuyemo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo butanga umusaruro uhagije neza iyo babiteye ku murongo, maze bakajya babyuhira mu buryo bugezweho, ibi bitanga umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho hari abantu basigaye bawuhinga barabigize umwuga, bakawitaho, hanyuma nawo wazajya kwera ukabaha umusaruro uhagije.

Pipinyeri iteyemo imbuto nyinshi z'avoka, aho izi voka ziba ari imbangurire umuntu wese uyikeneye yabasha kuba yayigura amafaranga magana atanu akajya kuyitera iwe ikamuha umusaruro mu mezi atandatu gusa.

Umugore wambaye ikanzu ari kumwe n'umugabo we wambaye agapira k'umweru, bakaba bari mu murima uteyemo ibinyomoro, bakaba barimo bagenda babyitaho kugira ngo bibahe umusaruro.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye bayihinga barabigize umwuga bakayitaho, hanyuma ikazabaha umusaruro utubutse.

Ubuhinzi bwa avoka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga avoka mu bihoho zamara gukura bakazigurisha, umuntu uziguze zikamuha umusaruro.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibigori aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze akaba yakirigita ifaranga.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho harimo imyumbati ariko bigaragara ko itazera neza, hakaba hateyemo n'ibiti by'imisederi iyo bikuze bibazwamo imbaho.

Umugore uri mu murima uhinzemo inyanya, akaba ari kugenda azitaho, aho agenda azitaho kugira ngo zizamuhe umusaruro maze abashe gukirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'imyumbati bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu bayihinga mu masambu agiye atandukanye kugira ngo niyera bazayisarure bayinikemo ubugari.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga insina barabigize umwuga bakazitaho neza cyane, hanyuma zikazabaha umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ikawa barabigize umwuga, bakayitaho, hanyuma yamara kwera ikabaha umusaruro.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'imyumbati, aho iyi myumbati ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyihinze akayitaho, ibasha kumuha umusaruro maze agatera imbere.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu bahinga ikawa barabigize umwuga bakayitaho, hanyuma na yo ikazabateza imbere cyane.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti by'imbuto, aho harimo igiti kimwe cy'indimu n'ikindi cyera amaronji. Aho byera imbuto nziza cyane.

umuntu uri mumurima uhinzemo ikawa akaba ari kugenda azisarura yifashishije amaboko ye kugira ngo arebeko zazamuteza imbere maze akabona umusaruro agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'inanasi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga inanasi bakabigira mwuga, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Agacupa kari mu mabara y'umweru, aho gafite umupfundikizo ujya gusa n'ironji, kakaba karimo imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi bugiye butandukanye.

Umuntu ufashe ifumbire ya DAP mu ntoki, akaba ari kugaragara igicucucu nkaho ari umugabo, akaba ari kureba ko iyi fumbire ari ingirakamaro yabasha gutera mu murima.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe haje imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buhinzi, aho iba iri mu dukarito twabugenewe, hanyuma bakajya bayifashisha mu kuhira imyaka.

Inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane, kubera ko yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara za kinyarwanda, cyangwa indwara zifata ibihingwa.

Ubworozi bw'inkoko bwateye imbere cyane aho muri iki gihe hari imashini zaje zisigaye zituraga amagi akavamo imishwi, hanyuma iyi mishwi bakayirerera hamwe bakayitaho, ikazavamo inkoko nziza n'inini.

Agacupa k'umweru gashushanyijeho inka za kizungu, kakaba gashushanyijeho n'ihene n'intama bigaragara ko kaba karimo umuti uvura aya matungo yose akaba yakira.

Umugore woroye inkoko bya kinyamwuga, akaba ari kugenda azishyirira ibyo kurya mu gakoresho kabugenewe izi nkoko ziriramo, hanyuma akazitaho kugira ngo zitere imbere.

Agakoko gafite uburwayi, kakaba karyamye ahantu mu busitani, bigaragara ko bakeneye ko umuveterineri wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo aza akakitaho.

Uducupa tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'imyeru, turiho ibyapa byinshi byanditseho amagambo menshi, tukaba turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo, indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu woroye inkoko akaba afite agakombe ari kugenda adahamo akoresheje ikiyiko, akaziha ibyo kurya kugira ngo zize kugubwa neza maze zizamuhe umusaruro.

Inyubako nziza cyane irimo uducupa dugiye dutandukanye turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda, cyane cyane indwara z'amarozi.

Abantu bateraniye hamwe mu murima w'umuceri bigaragara ko umuceri weze. Hakaba hari umugabo uri imbere yabo ufite metero ari gupima ngo arebe ubuso bw'uwo murima arebe n'umusaruro uravamo.

Umurima urimo umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi n'ingofero, ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote, bakaba bari kumwe na bagenzi babo bari kugenda bahinga indabyo nyinshi cyane ku muronko.

Umugore uri mu murima we, aho uwo murima uhinze atari yawutera, akaba ari kugenda awusanza akoresheje intoki kugira ngo abone gutangira kuba yawutera.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi na bote, akaba ari mu murima we uhinzemo urutoki, akaba ari kugenda arusasira kugira ngo ruzere neza maze rumuteze imbere.

Umugabo n'umugore bahuriye hamwe mu murima uhinzemo ibishyimbo, bakaba bari kugenda babyitaho babishingirira kugira ngo bizabashe kubaha umusaruro uhagije.

Umugore uri kugenda mu murima aho ari kugenda aca imirongo mu murima kugirango azabashe guhinga ibihingwa bye ku mirongo kugira ngo azabone umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere cyane, aho hari umugore n'umugabo bari guhinga mu murima uteyemo imyumbati, hepfo yabo inyuma hakaba hateyemo ibiti birebire bya gereveriya.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho bari kubaka akarima k'igikoni. Iyi rero ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo harwanywe imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bato.

Umugabo uri ahantu mu murima, akaba yambaye ikabutura ndetse n'agapira k'umutuku, ari kugenda ahinga muri uwo murima kugira ngo arebe ko yazabona umusaruro.

Abantu benshi cyane, bahuriye mu murima bari guhinga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bari guhinga mu murima usaruwemo ibigori, bitegura igihembwe cy'ihinga gikurikiyeho.

Abantu bagiye batandukanye, bahuriye hamwe muri pipinyeri iteyemo voka, bakaba bafite ibikoresho byabugenewe, bari kugenda bazuhira kugira ngo zitazicwa n'izuba.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'umuganda aho bari kugenda baharura umuhanda, umuganda rero ni gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda kugira ngo inoze igisuku.

Akarima k'igikoni, ni gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda ko buri rugo rugomba kukagira, kugira ngo barwanye imirire mibi, bwaki, ndetse n'igwingira ry'abana bakiri bato.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu murima w'ibigori, bakaba bari kugenda bareba ko bitanga umusaruro kugira ngo nibabona bitera neza, ubutaha bazabihingishe ifumbire.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari ahantu mu murima, aho bari kugenda bita ku bihingwa biteye muri uwo murima kugira ngo bibe byabateza imbere.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa, aho harimo insina ndetse hakaba hari n'imyumbati iteyemo, n'ahandi ruguru hateye urubingo rwo kugaburira amatungo.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'insina, aho iz'insina ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uzihinze akazitaho zibasha kumuteza imbere cyane.

Imifuka myinshi igiye itandukanye irimo ibigori basaruye, bikaba birambitse ahantu hirya ku mashitingi, hariho umuceri na wo wanitse.

Umugore uri mu murima we uhinzemo imiteja, akaba ari kugenda ayisoroma ayishyira mu gakoresho kabugenewe, ayitondeka neza, kugira ngo nayijyana ku isoko aze kubonamo umusaruro.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imbuto ndetse n'imboga, aho izo waba ukeneye zose uza ukazigurira hano harimo inanasi, indimu, amatunda, amaronji, imyembe n'ibindi.

Udufuka tugiye dutandukanye turimo amoko menshi y'ifumbire ndetse n'umuceri n'akawunga, tuba turi mu iduka tugenda ducuruzwa.

Umufuka urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibigori, ikaba ari myinshi ipanze kuri parete, bigaragara ko nyirayo yayiharunze, kugira ngo izabashe kumuha, umusaruro.

Ubuhinzi bwa avoka na bwo bwateye imbere cyane, aho hari abahinzi basigaye bazihinga, hanyuma zakwera bakazishyira mu matereyi yabugenewe, bakagenda bazifashisha bazigurisha, kugira ngo babone amafaranga.

Umusore wikoreye agafuka ka kawunga, akaba yambaye isarubeti, bigaragara ko ari umwe mu bari gupanga udufuka tw'akawunga hano muri iki cyumba, kugira ngo bajye baducururizamo.

Ubuhinzi bw'umuceri bukunze gukorerwa ahantu mu gishanga kirimo amazi menshi, kuko iyo ukiri muto baba bagomba koherezamo amazi kugira ngo uzabashe gukura neza utange umusaruro.

Ubuhinzi bwa avoka bukomeje gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga avoka bakazitaho, hanyuma bazisarura bakazijyana ku masoko.

Isoko ricururizwamo ibitoki byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho abahinzi babyo iyo babisaruye babizana hano ku isoko, hanyuma abantu baba baremye iri soko, bakaza kubigura ku bwinshi.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abahinzi ba wo iyo bawusaruye bawujyana ku isoko hanyuma bakawugurisha ku mafaranga make cyane.

Abahinzi b'inyanya, bateraniye hamwe aho bari mu gikorwa runaka cyo gutoranya inyanya ngo barebemo izapfuye bazishyire ku ruhande, ubundi izisigaye bajye kuzigurisha.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho iyo umuhinzi wabyo yabisaruye abyihutana ku isoko, hanyuma bakabimugurira akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibirayi burushaho gutera imbere cyane uko bwije nuko bukeye, aho abahinzi babyo iyo byeze babipakira imifuka, bakabigurisha ahantu mu mujyi.

Imifuka igiye itandukanye igerekeranyije, bigaragara ko irimo ibigori bamaze guhungura. Hino kuri shitingi, hari amahundo y'ibigori, batari bahungura, ngo babe babigurisha.

Igiti cy'avoka giteye ahantu mu busitani bwiza cyane, aho hirya yacyo hateye ibigori byinshi ariko bikaba byeze batari babisarura ngo babigurishe.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuhinzi wese wabihinze, bibasha kumuteza imbere cyane mu buryo bw'umusaruro.

Ishyamba ririmo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wateyemo ibiti, ribasha kumuteza imbere cyane akabona umusaruro utubutse.

Urubingo ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese waruhinze, akarwitaho rubasha kumuteza imbere cyane mu buryo bugiye butandukanye maze agakungahara, agakirigita ifaranga.

Umurima w'imyumbati uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imyumbati, aho iyi myumbati ari ingenzi cyane kubera ko umuntu wese wayihinze ibasha kumuteza imbere cyane.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari ibizwi nk'imigwegwe aho biba ari ingirakamaro cyane kubera ko iyo bimaze gukura, babitema amababi yabyo bakajya bayifashisha baboha imirunga.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti aho hariho bimwe batemye bikaba byarumye biryamye hasi ndetse n'ibindi bihagaze, ibindi byose rero ni ingenzi kubera ko bitanga umusaruro.

Mu ishyamba haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo bimwe biba bifite indabyo nziza cyane, ku buryo kubireba biba biryoheye ijisho.

Ubuhinzi bw'ikawa bugomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe abantu basigaye babukora barabigize umwuga, bakabwitaho maze nabwo ukazabaha, umusaruro.

Umurima uri ahantu ukaba urimo igiti k'ipera, aho iki giti ari ingirakamaro cyane kubera ko gitanga imbuto, gitanga umusaruro uhagije ku bahinzi.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ibyo bihingwa ari ingirakamaro cyane harimo igihingwa cy'ikibonobono ndetse hakaba harimo n'insina nziza cyane, ifite amakoma ashaje.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ziri mu mabara y'umutuku, zikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko zituma ubusitani bugaragara neza.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'itsina, aho izi tsina ari ingirakamaro cyane kubera ko zitanga umusaruro ku muhinzi wazo akabona amafaranga.

Ibiti binini cyane by'inganzamarumbo bikunze kuba biteye ahantu runaka, aho ibi biti ari ingenzi cyane kubera ko umuntu ubihinze, bibasha kumuteza imbere cyane muri iki gihe.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuhinzi wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere, maze akaba yakirigita ifaranga agatera imbere mu buryo bwose bufatika.

Ubuhinzi bw'ibiti bukomeje gutezwa imbere cyane, aho hari abantu basigaye bahinga amashyamba barabigize umwuga, hanyuma ibiti bakazabibajisha cyangwa bakabitwikamo amakara.

Amoko agiye atandukanya y'insina, aho izi nsina zikunda guhingwa ahantu mu cyaro, zikaba ari ingirakamaro cyane, kubera ko umuhinzi wese uzihinze, zibasha kumuteza imbere.

Insina nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ziteye ahantu mu isambu, bigaragara ko zikiri ntoya. Ni byiza cyane guhinga insina, kuko ziteza imbere umuhinzi wazo.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko bitanga umusaruro uhagije ku bahinzi babyo maze bagatera imbere, bagakirigita ifaranga.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho ibi bimera ari ingirakamaro cyane, kubera ko umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubihinze mu murima we, nubwo ategereza igihe kinini iyo byeze bimuha umusaruro.

Urubingo ni bimwe mu byatsi bikunda guhingwa n'aborozi b'inka, aho bagenda babyahirira inka kugira ngo barebe ko zabaha umusaruro maze ntizibure ibyo kurya.

Umurima uteyemo ibiti by'amoko menshi yagiye atandukanye, bigaragara ko ari mu ishyamba rikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko riteza imbere umuhinzi waryo.

Ahantu hari umurima mwiza cyane uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo urubingo ndetse n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bitanga imishingirizo.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa bikunze kuba biri ahantu h'isambu aho umuhinzi wese wabihinze bimugirira akamaro maze akaba yatera imbere agakirigita ifaranga.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo ibiti birebire by'inganzamarumbo, bibasha gukurura imvura, ndetse bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti aho hariho bimwe by'inganzamarumbo, ku buryo umuhinzi wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Ishyamba riteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane kubera ko umuhinzi wese wabihinze iyo bimaze kwera bimuha umusaruro ufatika.

Amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'umucaca, biteye ahantu mu busitani bigaragara ko bukiri butoya butari bwafata kugira ngo umuntu wenda abe yabwicaramo.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amabati bigaragara ko ishaje, hepfo yayo hakaba hari urugo rwubakishije imiyenzi, ndetse hateyemo n'amapapayi, agera muri atatu.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye nk'indabyo aho harimo n'icyapa cyerekana ko aho hantu ari mu karere ka Huye hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bwa wotameroni busigaye bwarateye imbere cyane aho usigaye ujya mu isoko ugasanga zirahari ku bwinshi kandi kuri make umuntu wese uyikeneye akaba yayibona byihuse.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ndetse hakaba harimo n'ibiti birebire binini, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahaherereye.

Ubuhinzi bw'indabyo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga indabyo barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabaha umusaruro.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho izo mbuto ziba ziri kugurishwa amafaranga make, harimo imyembe, amatunda, ibinyomoro, pome, indimu n'izindi.

Ubuhinzi bwa dodo bugenda burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga dodo barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma zamara gukura zikabaha umusaruro.

Ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane; kuko umuntu wazihinze zituma aho hantu hagaragara neza cyane.

Ubuhinzi bw'imboga za bodo ni ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wazihinze iwe mu rugo, abasha kubona imboga zo gutekesha atavuye aho ari cyangwa ngo atange amafaranga.

Umugabo uri mu murima we uteyemo inyanya, akaba ari kugenda azisasira akoresheje ibyatsi byiza kugira ngo arebe ko izo nyanya ze zazamuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Abantu babiri biganjemo abagabo, bakaba bari ahantu mu murima, aho bari kugenda bita ku bihingwa biteyemo kugira ngo bizabashe kubaha umusaruro, dore ko bishimye.

Ubuhinzi bw'imboga zizwi nka dodo ni ingirakamaro cyane kuko umuntu wese ubuhinzi bubasha kumuteza imbere cyane, maze akabonamo umusaruro ufatika agasagurira n'isoko ndetse.

Ibihingwa bizwi ku izina rya kokombure biba ari ingirakamaro cyane, kuko umuntu wese wabihinze iyo byeze bimuha umusaruro utubutse maze agatera imbere.

Ibihaza ni bimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane, bikunze guhingwa ahantu mu byaro, hanyuma byamara kwera, bakabigemura mu mujyi. Biba byiza kubera ko akunda kubigereka hejuru y'ibishyimbo.

Ubuhinzi bw'amatunda bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga amatunda barabigize umwuga, bakayitaho maze akazabaha umusaruro.

Umurima uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane ku buryo umuhinzi wazihinze zibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga ibinyomoro barabigize umwuga, bakabyitaho hanyuma byamara kwera bikabaha umusaruro.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto, aho izi mbuto zera ku biti z'amaronji, bikaba ari ingirakamaro kubera ko bitanga umusaruro.

Ubuhinzi bw'imboga za dodo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga izi mboga, hanyuma zikazabateza imbere cyane bakabona amafaranga.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa by'ibigori ndetse n'ibishyimbo, aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu ubihinze bibasha kumuteza imbere.

Urusenda ni bimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane, kubera ko umuntu wese waruhinze iyo rweze arugurisha ku biro, akabonamo umusaruro. Ikiro kimwe cy'urusenda kigura ibihumbi bibiri.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho harimo intoryi zikaba zisasiye neza kugira ngo izuba ritazava maze rikazica umuhinzi wazo akarumbya.

Pipinyeri irimo abantu bagera muri babiri, aho harimo umugabo ndetse na mugenzi we bakaba bari kugenda bareba ko imbuto bateyemo zimaze gukura ngo babe bazigurisha.

Amateke ni bimwe mu bihingwa b'ingirakamaro cyane, aho umuntu wayahinze abasha kwiteza imbere, maze agakirigita ifaranga agasezerera ubukene.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane, kubera ko umuntu wese wabashije kuzihinga zimuteza imbere ndetse niwe hakagaragara neza.

Abahinzi bagiye batandukanye bahuriye hamwe mu murima bari guteramo amoko agiye atandukanye y'imboga, aho izi mboga ari ingirakamaro cyane kubera ko iyo uzitayeho ziguteza imbere.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aho hari iziba ziri mu mabara y'umukara, izi rero ni ingirakamaro cyane, kubera ko umuhinzi wazo zimuteza imbere cyane, agakirigita ifaranga.

Umugore n'umugabo n'umwana bari mu murima w'intoryi, aho bari kugenda bazisarura. Umugore afite umufuka zirimo, umugabo azifite mu ntoki n'umwana azifashe mu ntoki, bose barishimye.

Umugore uri kumwe n'umukobwa, aho bafite imbuto cyangwa se imboga z'inoryi mu ntoki, aho bari kwerekana ko bazisaruye none zikaba zabahaye umusaruro.

Ubuhinzi bwa karoti bwateye imbere cyane aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bahinga karoti barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabaha umusaruro bagatera imbere.

Abagore bagera muri batatu bicaye ahantu mu isoko bari gucuruza imboga, aho imbere yabo ku meza hatanditse inyanya, imbere ku mufuka hakaba hari dodo, intoryi ndetse na karoti.

Ubuhinzi bw'urusenda, bukomeje gutera imbere cyane. Aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bahinga urusenda, barabigize umwuga bakarwitaho, hanyuma rukazabateza imbere.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingenzi cyane, zikaba zikikije inyubako nziza, ifite igipangu gikigishije n'inzugi z'umukara n'umweru.

Mu isoko haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, aho izo mboga ziba ari ingenzi cyane, zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho twavugamo nk'ibitunguru.

Igiti cy'avoka giteye ahantu mu busitani, aho izi voka ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wazihinze iyo zeze azisarura, akazigurisha akabonamo amafaranga atubutse.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi ya direde, akaba afite ibinyomoro mu ntoki yasaruye, akaba ari kwerekana ukuntu bihishirije bitukuye bigiye kumuhesha amafaranga.

Umugabo uri mu murima uhinzemo inyanya aho ari kugenda areba umusaruro bitanga. Ubuhinzi bw'inyanya rero ni ingenzi kuko buteza imbere umuhinzi wizo nyanya.

Ubucuruzi bwa karoti bukomeje gutezwa imbere, aho hari igihe ujya mu isoko gushaka karoti, bakazigupimira mu kabase bitewe n'ingano y'amafaranga ushaka.

Umurima uhinzemo ibinyomoro, aho harimo umugore n'umugabo babihinze, bakaba bari kubyitegereza. Ngo barebe iminsi bisigaje kugira ngo byere maze babigemure ku isoko.

Ubuhinzi bw'indabyo, nabwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bahinga indabyo barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma zamara gukura, zikabaha umusaruro.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'umucaca, bukaba bukikije ikibuga gishashemo sima, gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka basikete.

Umufuka ushasheho imboga z'amoko agi atandukanye, aho hariho karoti, intoryi ndetse n'inyanya, zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abazihinga batere imbere.

Umugore uri ahantu mu murima uteyemo imbuto, akaba afite ibase ari kugenda asaruriramo, kugira ngo namara kugwiza aze kuzijyana kuzigurisha ku isoko.

Umugabo ufite umupira, ari kugenda yuhira imbuto ze z'urusenda yateye ahantu mu gishanga, akaba ari gukoresha ipombo yabugenewe.

Umugabo uri mu murima we uhinzemo inyanya, akaba afite ipombo ari kugenda azuhira, azitera umuti ndetse anazivomera kugira ngo zitazicwa n'izuba.

Umugezi uri kugendamo amazi, hakaba hari umwana wahinze imboga n'imbuto hafi aho ngaho, akaba ari kugenda ashyiramo imipira yabugenewe kugira ngo aze kuyifashisha ari kuhira ibihingwa bye.

Umugore n'umugabo, bahinze ibitunguru none izuba rikaba ryacanye, bakaba bari kubyuhira bifashishije umupira wabugenewe, kugira ngo barebe ko byabasha kuzera neza.

Umuntu ufite umupira akaba ari mu murima we yahinzemo imyanya n'ibigori, akaba ari kugenda abyuhira kugira ngo bizamuhe umusaruro maze atere imbere.

Umurima w'igishanga uhinzemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu uwuhinze mu gishanga, akawitaho kugeza weze, umuteza imbere cyane.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa by'imboga, aho biteye ku muronko, hakaba harimo n'utuntu tubiri tw'abantu barinda izo mboga kugira ngo bataza kuziba.

Umurima mugari uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'umucaca, aho uyu mucaca ari ingenzi cyane, hakurya hari ibiti birebire byinshi bigiye bitandukanye.

Igishanga gihinzemo umuceri aho uyu muceri ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uwuhinze, ubasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Umurima uteyemo imyumbati, aho iyo myumbati ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wayihinze ibasha kumuteza imbere cyane igihe cyose yaba yayisaruye.

Agasozi kera cyane, gateyeho icyayi mu buryo bw'imironko y'indinganire, iki cyayi rero, kikaba ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese wagihinze, kibasha kumuteza imbere.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto, aho buri murima n'undi bitandukanyijwe n'urubingo, ruba ruteyemo ruba rwarahinzwe n'aborozi kugira ngo bajye barwahirira amatungo yabo.

Umurima uteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane, umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere, maze agakirigita inote.

Umurima uhinzemo amoko menshi atandukanye y'urusenda, aho hari n'undi uhinzemo inyanya, ariko byose bikaba bisasiwe ku buryo umuhinzi wabyo byamuteza imbere cyane.

Ubuhinzi bw'urusenda bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu bahinga urusenda barabigize umwuga, bakarwitaho, bakanarusasira, hanyuma basarura rukabateza imbere.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa ahantu mu gishanga, aho aba ari ingirakamaro cyane, kubera ko umuhinzi wawo ubasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga agasezerera ubukene.

Umurima uteyemo ibigori, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wabihinze, bibasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga, agaca ukubiri n'ubukene.

Ubuhinzi bw'urubingo bukomeje gutera imbere cyane, aho ahanini bukunda gukorwa n'abantu boroye inka, aho urubingo baruhinga hanyuma bakajya barwahirira amatungo yabo.

Umurima uciyemo amaterasi y'indinganire, ukaba uciyemo n'imyobo bigaragara ko bagiye guteramo ibigori . Amaterasi y'indinganire rero ni ingenzi kubera ko umuhinzi wayo amuteza imbere.

Ni inyubako nziza cyane, zisakaje amategura, zika bateye ibyondo inyuma, hepfo yayo hakaba hari umurima uhinzemo urutoki, aho urwo rutoki ari ingirakamaro cyane.

Ahantu hari inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'umutuku ruguru, yazo hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahaherereye.

Umurima uteyemo insina nyinshi zigiye zitandukanye, aho iz'insina ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wazihinze zibasha kuba zamuteza imbere maze agakirigita ifaranga.

Ahantu hari ikibaya giteyemo umuceri ndetse hakaba harimo n'amafi menshi agiye atandukanye, aho iki kibaya ari cyiza cyane ndetse hakaba harimo n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikibuga kigari, gikikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, aho hepfo hubatse amashuri meza cyane, hasa umutuku, hakurya hari umusozi uriho amazu menshi cyane kandi meza.

Ahantu hari ubutaka bugari, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, aho ruguru haca umuhanda wa kaburimbo, uva mu Karere ka Huye, werekeza mu Karere ka Nyaruguru.

Umuntu woroye inka bya kijyambere, akaba azizirika ahantu, cyane cyane nk'inyana zikiri ntoya kugira ngo zitajya konka nyina maze akabura umukamo.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho muri uwo murima harimo ihene ebyiri inini ndetse n'iyayo, bakaba baziziritsemo ngo zibe zirarisha aho.

Inka yabyaye none akana ni bwo kakivuka ntabwo kari kamenya konka. Karyamye iruhande rwayo, iri kujya ibyuka ikakarigata kugira ngo kamererwe neza.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkuko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara gukura zikabateza imbere bakavanamo amafaranga.

Ubworozi bw'inka za kizungu bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka kinyamwuga bakazubakira ibiraro, hanyuma ntibakajye bajya kuziragira mu masambu.

Ubworozi bw'ingurube bwa kijyambere, buba bwiza cyane iyo ngurube uyubakiye mu kirere ukajya uyiha ibyo kurya mu gikoresho cyabugenewe maze ikarya ikamererwa neza.

Inka yororewe mu kiraro, ibasha gutanga umusaruro ku mutunzi wayo, aho ibasha kumuha umusaruro w'ifumbire, akajya ayifashisha mu buhinzi, akabona umusaruro utubutse.

Umugore uri kumwe n'umwana we, aho uwo mugore ari kuzirika ihene ebyiri ahantu hari ibyatsi hari utwana tw'ihene tubiri turi kuhatambuka, bigaragara ko two tukiri duto tutari twamenya kurisha.

Ubworozi bw'ingurube za kizungu bukomeje gutera imbere cyane, aho ibyana bisigaye bivuka ari bikuru, wabibona biri konka bimaze ibyumweru bibiri, ukabona wagira ngo bimaze nk'amezi atanu bivutse.

Ubworozi bw'ingurube ni kimwe mu bintu bitanga umusaruro ushimishije ku borozi bazo, aho umuntu uzoroye abasha kuzitaho hanyuma zikaba zamuteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube burushaho gutera imbere cyane, aho muri iki gihe umwozi w'ingurube iyo azoroye neza, akazubakira ikiraro kigezweho, zibasha kumuha umusaruro utubutse.

Abantu benshi bagiye batandukanye bafashe ingurube, aho buri wese bayimuhaye, iyi ni gahunda ya Leta yo koroza abaturage bose ingurube kugira ngo biteze imbere.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma nazo zikabaha umusaruro uko bikwiriye.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho kugira ngo zibashe kubaha umusaruro maze batere imbere.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora ihene barabigize umwuga, bakazitaho, hanyuma na zo zikazabateza imbere zibaha umusaruro.

Ikiraro cyororewemo amatungo agiye atandukanye by'umwihariko amatungo maremare azwi nk'inka. Bikaba ari uburyo bwiza bwashyizweho bwo kubungabunga ibidukikije, tukareka kororera inka mu mirima.

Ubuhinzi bw'insina bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bafata imirima yabo bagateramo insini gusa, kugira ngo nizera bazabone umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabaha umusaruro bagatera imbere.

Abantu bagera muri batatu, buri wese afashe urukwavu mu ntoki, bari kwerekana ko ubworozi bw'inkwavu ari ingirakamaro cyane kubera ko inyuma yabo hubatse ibibuti by'inkwavu, byubatswe mu buryo bugerekeranyije.

Ubworozi bw'ingurube, bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye barora ingurube barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zikazabaha umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho abantu basigaye bazubakira ibiraro mu rugo bakajya bazihera ubwatsi aho ngaho batiriwe bajya kuziragira.

Ihene iziritse ahantu ikaba iryamye, bigaragara ko ari mu nsina, ndetse iyi hene ikaba yarorowe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Ikaba imeze neza, ndetse izatanga umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane, ariko iyo uzoroye bikabyara ukabona ibyana byinshi uba wungutse mu buryo budasubirwaho, kuko ubona umusaruro mwinshi.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

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara gukura bakazigurisha bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakazitaho, hanyuma zamara gukura bikabaha umusaruro utubutse, maze bagatera imbere.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'intoryi, hari iziba zijimye zijya kwirabura aho izi ntoryi zirura cyane ariko hari izindi ziba zerurutse ziba ziryoherera cyane.

Ibihoho bigera muri bitanu birimo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto z'ibiti, aho zifashishwa zihingwa ahantu hagiye hatandukanye mu gasozi, zikera ibiti binini.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu bahinga ibigori bakabigira umwuga, bakagenda babyitaho hanyuma babisarura bakajya kubigurisha mu masoko.

Umugenda uri ahantu mu gishanga uri kunyuramo amazi, ukaba ukikijwe n'imirima iteyemo ibigori, bigaragara ko iyo bahinzemo imboga mu gihe cy'izuba aya mazi ariyo bifashisha buhira.

Abagore benshi cyane bateraniye hamwe, aho bafite utubase turimo intoryi bamaze gusarura mu murima wabo, ni byiza cyane ko bahita bazigemura ku isoko kuko zirakunzwe cyane.

Umusore wihangiye umurimo maze akora umwuga w'ubuhinzi, akaba afite ibase yasaruriyemo amashu, ari kwerekana ukuntu yamuteje imbere cyane, byaba byiza yoroye n'inkwavu zikajya zirya biriya bibabi.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'ibishyimbo, aho ibi bishyimbo ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Umuntu wambaye agapira k'umutuku gaciyemo uturonko, akaba yambaye n'ipantaro zyiza cyane, ari gusukira amazi mugenzi we ugiye kuvura ingurube kugira ngo itamwanduza.

Umugabo woroye inka bya kinyamwuga, akaba ari kugenda ayikama, akoresheje indobo, aho ari kuvuruganya kugira ngo arebe ko yabonamo umusaruro w'amata.

Abana biga mu mashuri yisumbuye baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, bakunze kugira umumaro cyane, aho aho batuye babahamagara bakajya kubavurira amatungo.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho kugirango zizabashe kubaha umusaruro uhagije.

Umwana uri kugaburira inka ku kameza kayo kabugenewe, aho iyo nka ari nziza cyane ariko ikaba yororewe mu kiraro, ku buryo itanga umusaruro mu buryo bwose bufatika.

Umugabo wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi, akaba ari ahantu mu iduka ricuruza imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, aho ari kugenda ayitondeka hamwe.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho bakazikama kugira ngo bazabone umusaruro utubutse.

Umuntu uri kuvura inka, aho yayasamishije akaba ari kureba mu kanwa kayo ko harimo impagi zituma itabyara ngo abe yazikura hanyuma izajye ibyara nk'izindi.

Umuntu wuhagiye inka, akaba ari kugenda ayitaho aho iyi nka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba ari iya kizungu iri kurisha ahantu mu busitani imbere y'inzu.

Inyamaswa z'ingagi ni zimwe mu nyamaswa zijya kumera nk'abantu neza kuko ziba zifite ibirenge ndetse n'intoki n'imyitwarire imeze nk'aho ari iy'abantu.

Hariho amoko agiye atandukanye y'utunyamaswa, aho utwo tunyamaswa tuba tujya kumera nk'inkede, dusa umukara ariko dufite ubwanwa bw'umweru, dukunze kwibera ahantu muri parike.

Ingagi ziri ahantu muri parike y'Igihugu y'Ibirunga iherereye mu karere ka Musanze, Intara y'Amajyaruguru, zikaba zigera muri eshatu, zicaye hamwe kandi ziteranye imigongo.

Akanyoni gahagaze ahantu mu biti bifite amabara agiye atandukanye, iby'umukara, umutuku, ndetse n'umuhondo, kakaba ari agatungo keza gafite amabara menshi cyane.

Muri Kaminuza y'u Rwanda, hari ishyamba ryiza cyane, aho riba ririmo akanyamaswa kazwi nk'ihene y'ishyamba ariko mu Kinyarwanda bita "isha" kaba kazi kwiruka cyane.

Akanyoni gafite amabara agiye atandukanye kakaba gahagaze mu giti, iyi nyoni rero yitwa igishwi kubera ko iba itazi kuguruka umwanya munini cyangwa gushaka ibyo kurya nk'izindi.

Ikiraro kinyura mu kirere kikaba ari ikiraro cyiza cyane kiri hejuru ya Parike ya Nyungwe, aho abakerarugendo bagendera muri icyo kiraro bari kureba ibyiza nyaburanga biri hasi.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye n'inyamaswa, haba harimo utunyamaswa dukunda kurira ibiti tujya kumera nk'inkende, aho tuba turi mu mabara y'umweru n'umukara.

Ubwobaro bw'ibwa bukomeje gutezwa imbere, aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bororera imbwa mu rugo, zikajya zibarindira urwo rugo, kugira ngo hatagira umujura ubasha kuba yabiba.

Akanyoni kuriye igiti kakaba kari mu bwoko bw'igishwi, gafite amababa meza cyane aho kagenda gahagarara ku biti bigiye bitandukanye, ibi biti bikunze kuba biri mu mashyamba manini.

Pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa zirya ibyatsi, aho harimo isha, imparage ndetse n'udusumbashyamba tuba ari turerure cyane.

Utunyamaswa dukunze kuba tuba ahantu hari ibyatsi bitoshye nko mu gishanga tuzwi nk'imitubu tuba tujya kumera nk'ibikeri ariko two tukamenya gusimbuka kure cyane kandi dufite uruhu ruyaga.

Muri parike nkuru y'u Rwanda y'akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho hari izitwa inguge zijya kumera nk'abantu, ziba zifite ubwanwa bw'umweru.

Inyamaswa z'inkende ziba ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese uzoroye zibasha kuba zamushimisha, maze akajya yirebera udukino dutandukanye zikunze gukina.

Ishyamba ririmo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa, aho haba harimo utunyoni twiza cyane tuba dufite amabara agiye atandukanye, dukunze kujya ahantu mu biti maze tukajya twirira udusimba.

Akanyoni kuriye igiti, kakaba kari kugenda kadondanga bigaragara ko ari akanyoni keza cyane, kari mu mabara asa n'igiti, gakunze kuba kari ahantu mu mashyamba manini cyane.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera, harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho izo nyamaswa ari ingirakamaro cyane kubera ko zibasha gukurura ba mukerarugendo, hakaba hagaragaramo impara n'imparage.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa ziba zijya kumera nk'abantu, ziba zifite ibizuru n'ikinwa bitari nk'iby'abantu ariko zikagira imyitwarire n'imico nk'iby'abantu.

Hariho amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, dukunda gusanga muri pariki y'ibirunga, aho harimo izitwa ingagi, zijya kumera nk'abantu, kandi zikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo.

Hariho amoko agiye atandukanye y'ibisiga, aho hari ibisiga biba bifite amabara y'umweru n'umukara, bibasha kuba byajya mu nyanja bikibira bikarobamo ifi yo kuba byarya.

Imparage ni zimwe mu nyamaswa nziza cyane, zikunze kuba ziri muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, aho zikunze gukurura ba mukerarugendo, bakaza kuzisura ngo barebe ubwiza bwazo.

Akanyoni kari mu mabara y'icyatsi, umukara ndetse n'umutuku, kakaba gafite umunwa ubyibushye cyane. Gahagaze mu mashami y'igiti, aho bigaragara ko ari inyoni bita inyamanza, ikunda kuririmba cyane.

Igikona ni zimwe mu nyamaswa zikunze kuba ziri ahantu mu mashyamba, kigira urusaku cyane kandi kiba gifite amabara y'umweru n'umukara, kikaba ari kimwe mu nyamaswa zimara igihe kinini ku isi.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, aho haba harimo n'ingagi ziba zizi kurira ibiti cyane ndetse zikaba zifite n'ishusho ijya kumera nkaho ari abantu.

Muri parike y'igihugu y'Akagera, haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Hari izizwi nk'imparage, aho ziba zijya kumera nk'isha ariko zo zikagira amahembe manini cyane.

Ingwe ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi, zikunze kuba zifite amabara agiye atandukanye, ziba zizi kwiruka ndetse no kurira ibiti, zikagira n'ubugome bukabije ku buryo inyamaswa iyikinishije ihita ifata ku gakanu.

Umuhanda w'igitaka, aho hicayemo akanyamaswa kazwi nk'inkende, kakaba ari akanyamaswa gakunze kuba konera abaturage ibihingwa byabo by'ibigori ndetse n'imbuto.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa ziba zifite ngenzi zazo ziri mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umweru ariko zose zikaba zijya kumera nk'abantu kandi zikaba zizi kurira ibiti cyane.

Inyamaswa zitwa inguge zijya kumera nk'inkende ariko zo zikaba zisa umukara, zikagira ubwanwa bw'umweru buba bukikije mu maso hazo, zikaba zizi kurira ibiti cyane ndetse zigakunda n'imineke.

Muri pariki y'igihugu y'Akagera ndetse no mu yandi mashyamba manini cyane mu Rwanda, hakunze kuba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyoni, aho izi nyoni zurira ibiti hanyuma ukaba utazimenya.